Ubuhinzi ni ingirakamaro cyane kuko umuntu wakoze umwuga w'ubuhinzi ntabwo abasha gusabiriza kuko aba yakwihingira buri kimwe cyose ashaka kikaba cyamuteza imbere.

Umukobwa wambaye imyambaro y'umukara, akaba ahetse ipombo ndetse yambaye bote n'udupfukantoki, akaba ari mu murima w'inyanya ari kugenda yegura ngo arebe ko zeze abe yazisarura.

Abahinzi benshi bateraniye hamwe mu murima w'ibigori, aho buri wese afite umufuka mu ntoki, akaba afitemo ifumbire bari kugenda buhira bashyira kuri buri kigori nk'ifumbire bifashisha bari kubagara.

Agafuka gasa umweru, kakaba karimo ifumbire izwi nka DAP yifashishwa mu buhinzi igihe baba bari guhinga ibihingwa runaka bakagenda bayishyiramo kugira ngo bazabone umusaruro ufatika.

Mu maduka agiye atandukanye, haba hari aho bacuruza ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buhinzi n'ubworozi. Haba harimo umuntu w'inzobere kandi wabyigiye, ku buryo icyo ushaka ahita akiguhereza byihuse.

Amoko agiye atandukanye y'imbuto ziba zatubuwe, zikunze kurambikwa ahantu mu buhunikiro, bakazirambika ku maparete kugira ngo zitaza gukora hasi zigahura n'ubukonje, bikaba byazigiriraho ikibazo.

Abahinzi b'ibirayi iyo babisaruye barabigurisha hanyuma bikoherezwa mu mujyi, hanyuma abantu batuye mu mujyi bakagenda babihaha ku giciro cyo hejuru ariko kubera baba batazi guhinga bakabigura uko biri.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye biganjemo abagore ndetse n'abagabo, bakaba bari mu myuga y'ubuhinzi, harimo babiri muri bo bambaye amasarubeti y'ubururu, abandi bambaye imyenda bisanzwe.

Akabati karimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu mwuga w'ubuhinzi n'bworozi, aho baba bari kwita ku matungo yabo cyangwa se ku bihingwa byabo kugira ngo babone umusaruro.

Umugabo wambaye isarubeti akaba ahetse ipombo ari kugenda atera umuti inyanya ze yahinze, ubu ni uburyo bwiza bwo gukora imishinga, ikaba yaguteza imbere mu gihe wasaruye ukabona inyungu.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyo nyubako iri ahantu mu Mujyi igiye ifite imiryango itandukanye itanga serivisi z'ubucuruzi ndetse na serivisi za MTN.

Abagore bagera muri batandatu, bakaba bari mu murima w'amashu, aho bari kugenda bayashasira, banagenda bayakanda, kugira ngo babashe kumenya amashu yaba yeze ni ayahe cyangwa akiri mabisi ni ayahehe.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ifite ibikuta biteye irange ry'umweru, urugi rw'icyuma ruteye irange ry'umweru, ariko kandi mo imbere hakaba harimo utubati tubiri babikamo ibikoresho.

Umugabo wambaye agashati k'umweru, akaba ari mu murima we yahinzemo inyanya, akaba ari kumwe n'umwana we, aho bari kugenda bareba ko inyanya zimeze neza, ubundi bakagenda bazitunganya kugira ngo zirusheho gutanga umusaruro.

Umugore wambaye agapira k'umutuku akaba kandi yambaye n'ingofero akaba ari mu murima w'ikawa, aho ari kugenda azitaho azishyiriraho ifumbire kugira ngo zizabashe kwera zimuhe umusaruro.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe mu murima w'ibigori, aho bari bari kubibagara bakaba babisoje, none bakaba bagiye kubishyiriraho ifumbire bifashisha bari kubagaza ibigori.

Ahantu bacuruza imiti igiye itandukanye, yifashishwa mu buhinzi n'ubworozi, bakunze kuba ahanini harimo umuntu wabyigiye ku buryo umuti wose ukeneye, ahita awumenya akawuguha.

Akabati karimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buhinzi n'ubworozi, niba uri umuhinzi cyangwa ukaba uri umworozi ugakenera iyi miti, nakugira inama yo kuza kuyishakira aha ngaha.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho harimo icyumba giteye irangi ry'umweru. Muri icyo cyumba hari umugabo uri kugenda arambikamo imifuka igiye itandukanye irimo ifumbire.

Ahantu bacuruza ibijyanye n'ubuhinzi cyangwa ubworozi nk'imiti y'amatungo, haba harimo umuntu wabyigiye ku buryo iyo uhageze uvuga icyo ushaka agahita akimenya, maze na we akakiguha.

Iyo ibirayi byeze babihuriza hamwe hanyuma bakabigurisha, bakabipakira imodoka bakabizana ahantu mu mujyi, hanyuma abatuye mu mujyi kubera ko bo badahinga bakajya babigura bakabiteka bakabirya.

Mu maduka agiye atandukanye, aho bacuruza ibikomoka cyangwa se ibyifashishwa mu buhinzi n'ubworozi, haba harimo utubati bigiye birimo ku buryo igihe cyose ubishatse, ugenda bakabiguha byihuse.

Umurima basaruyemo ibigori, bakaba barawuhinze harimo intabire ndetse hakaba hasutsemo n'ifumbire, bigaragara ko bitegura kuhahinga, mu gihembwe cy'ihinga gikurikiyeho.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho mo imbere harimo icyumba gikoze neza, gifite urugi rw'umweru, harimo n'akabati k'umweru karimo ibikoresho bigiye bitandukanye ndetse hasi hakaba hashashemo amapave ndetse n'amakaro.

Mu buhunikiro haba harimo ibyo bita parete, bagenda barambikaho imifuka irimo imbuto zatubuwe kugira ngo zitaza kugera ku butaka, zigahura n'ubukonje maze zikaba zakwangirika.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyo nyubako ifite imiryango myinshi igiye itandukanye, ari imiryango y'ubucuruzi ndetse n'indi miryango igiye itandukanye itanga serivise.

Buri kigo cy'amashuri kiba kigomba kugira isomero nk'uko Leta y'u Rwanda yabitegetse, iyo icyo kigo cy'amashuri gifite iryo somero abanyeshuri baragenda bakajyamo bagatira ibitabo bitandukanye, bagasoma, bakiga bityo ubumenyi bukiyongera.

Umugore uri mu murima we mu gishanga, aho ari kugenda anyanyagiza ifumbire mu murima kugira ngo abone uko aza gutera, akaba yambaye agapira k'umutuku ndetse n'ijipo y'umukara n'umweru.

Iyo ugeze mu mujyi ahantu hagiye hatandukanye, haba hari amazu menshi acuruza imiti y'ibikomoka cyangwa ibyifashishwa mu buhinzi, rero mu gihe waba ukeneye kimwe muri ibyo, wanyarukira hano bakakiguhereza.

Akameza gasa umutuku, kakaba karambitse iruhande rw'igikuta giteye irangi ry'icyatsi, kuri ako kameza hakaba harambitseho igikarito kiri gusa umweru, cyanditseho amagambo agiye atandukanye mu rurimi rw'icyongereza.

Umugabo uri mu murima we w'ibitunguru, aho ari kugenda areba uko bimeze, kugira ngo nasanga byeze, azabashe kuba yabisarura, ajye kubigurisha avanemo amafaranga atubutse.

Umuhinzi w'ikawa akunda kuzisoroma buri cyumweru hanyuma akazigemura ahabugenewe, bakamuha amafaranga akayifashisha akemura ibibazo bigiye bitandukanye kugira ngo arebe ko yarwanya ubukene.

Ubuhinzi bw'ibigori na bwo bumaze gutera imbere cyane, aho umuntu asigaye ahinga ibigori, hanyuma akabyitaho, byakwera yabisarura, akabonamo ibyo kurya ndetse agasagurira n'amasoko.

Umurima w'ibigori uteyemo amoko menshi agiye atandukanye y'imbuto. Ibigori barabisaruye ariko hakaba hateyemo n'intoryi, zikiri ntoya zikiri kumera, uyu muntu rero ubuhinzi yabugize umushinga.

Ubuhinzi bwa voka na bwo bumaze gutera imbere cyane, hari abantu baba bazifite bazigurisha z'imbangurire uzishaka wajya kuzigurayo bakaziguhera ku giciro gito, iyo uzihinze mu mezi atandatu ziba zatangiye kwera.

Ubuhinzi bw'ibihwagari, ni bumwe mu buhinzi budakunze kwitabirwa cyane, ariko abantu benshi ntibasobanukiwe ko iyo umuntu ahinze ibihwagari neza akabyitaho bimuha umusaruro ndetse agakirigita ifaranga.

Ubuhinzi bw'inyanya bukomeje gutera imbere cyane, uyu muntu yahinze inyanya ariko ntabwo yari yazisasira, ni byiza cyane ko yazana isaso akazisasira kugira ngo zitazajya zijyaho ibyondo kandi zizere neza.

Ibitoki byinshi cyane bigiye bitandukanye, aho birambitse ahantu mu mucaca, bikaba byarahiye biri gusa umuhondo, ari imineke, niba ushaka imineke nakugira inama yo kuza kugurira aha ngaha.

Umurima mugari uteyemo imboga nyinshi zigiye zitandukanye, ariko kandi harimo n'amateke, hakaba hateyemo igiti kinini, utapfa gusobanukirwa ubwoko bwacyo, ariko umuhinzi ahageze yahita akimenya.

Amoko menshi agiye atandukanye y'indabyo ziteye ahantu mu murima, zikaba zifite amabara menshi agiye atandukanye y'umweru ndetse n'icyatsi, zibereye ijisho ku buryo ari urukerereza.

Abantu bagera muri batanu, harimo batatu b'igitsina gore ndetse n'abandi babiri b'igitsina gabo, bateruye ikidomorodomoro kirimo imbuto za avoka, bigaragaza ko bari kwerekana umwimerere wazo.

Iyo ugeze ahantu mu kibaya cyangwa se mu gishanga, bakunda guhinga ubuhinzi bugiye butandukanye, uyu murima rero ukaba urimo amasaka amaze kuba uduhembe cyangwa se yasambuye, ariko ataratukura.

Ubutubuzi bw'imbuto busigaye bwarafashe indi ntera, aho basigaye bafata urubuto rumwe bakarushyira muri buri gihoho cyarwo hanyuma bakagenda bazivomera zamara gufata bakajya kuzitera.

Hari amoko agiye atandukanye y'ibimera, hari ibiba bimeze nk'indabyo ku buryo iyo umuntu abiteye mu busitani bwe buhora buhumura neza ndetse bugaragara neza abantu bakifuza kuhifotoreza.

Ubuhinzi bw'ikawa na bwo ni bumwe mu buhinzi bumaze guteza imbere abahinzi bayo kuko umuntu uyihinze mu mezi make iyo itangiye kwera, atangira kugenda ayisarura akayigurisha akabonamo inote.

Ubuhinzi bw'ikawa na bwo bumaze gutera imbere cyane, aho umuntu wahinze ikawa mu gihe kitarenze umwaka aba yatangira kujya mu ikawa ye akayisoroma, hanyuma akayibyaza umusaruro, akabonamo umusaruro ufatika watunga urugo rwe.

Ubuhinzi bwi'ibitoki bya fiya, bukomeje guteza imbere abantu batari bake. Uyu mugabo rero, akaba yarahinze urutoki, none aje kureba ibitoki bihari ko byeze, none asanze byeze atangiye kumwenyura.

Ubuhinzi bw'imbuto bukomeje gutera imbere cyane, aho umuntu asigaye ahinga voka nibura nk'eshanu, hanyuma mu gihe kiri imbere nko mu mwaka, zigatangira kumuha umusaruro agakirigita ifaranga.

Ubuhinzi bw'urusenda na bwo bumaze gutera imbere cyane, aho umuhinzi w'urusenda abasha kurusarura bitamugoye, akabasha kurugemura ndetse agasagurira n'amasoko. Ni byiza cyane guhinga urusenda.

Ubuhinzi bw'ikawa bwamaze gutera imbere cyane, aho umuntu asigaye ahinga ikawa, hanyuma zikajya zimuha umusaruro mu gihe kirekire kandi afata amafaranga ya buri kwezi.

Ubuhinzi bw'imyembe na bwo bukomeje gutera imbere cyane, basigaye bakora pipinyeri y'imbuto z'imyembe, hanyuma abantu bakajya kugura imyembe ya kizungu, hanyuma bakayitera yakwera ikabateza imbere.

Ubuhinzi bw'ikawa, umuhinzi wabwo aba ameze neza iyo zatangiye kwera. Reba nk'iki giti gifite ikawa nyinshi cyane, uramutse uzisaruye, zavamo nk'ibiro bitanu. Ikiro cy'ikawa, kigura amafaranga igihumbi.

Ubworozi bw'inyamaswa zitwa inkwavu bumaze gutera imbere cyane, ubu haje inkwavu za kizungu aho na zo zisigaye zigaburirwa zikarira ku gakangara maze zikabyibuha zigatanga umusaruro ufatika.

Indobo nini cyane y'umukara, aho iyo ndobo irimo injanga nyinshi zitandukanye, zikaba ziri kugurishwa ku giciro gitoya ku buryo ikiro kimwe kigura ibihumbi bitatu na maganatanu.

Ubworozi bw'inkoko bumaze gutera imbere cyane, aho umworozi wazo aba afite udukoresho twabugenewe agenda arambikamo ibyo kurya, hanyuma inkoko zikajya ziraza zikarira muri utwo dukoresho zitavuye aho ziri.

Umuntu ufashe agacupa mu ntoki gasa umweru, gafite umupfundikizo na none w'umweru, kakaba baditseho icyapa kiri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umweru, handitseho amagambo mu rurimi rw'Icyongereza.

Ubworozi bw'inkoko bwateye imbere cyane, ariko ni byiza ko igihe cyose tworoye inkoko tuba tugomba kuzitaho, yarwara tugahamagara veterineri wabyigiye akaza akazivura hakiri kare.

Nubwo korora inka biba byiza cyane, ni ngombwa ngo tujye tuzitaho tumenye uburwayi runaka ziba zifite, nizana uburwayi bw'ibiheri tujye twihutira guhamagaza veterineri aze azivure.

Agakombe gasa umweru karambitsemo akantu k'agakarita, bikaba biteretse ku meza, ayo meza abajwe mu mbaho kandi akaba yarabajwe n'umuntu w'umuhanga, ku ruhande hariho telefoni itagaragara neza.

Ubu ngubu ubworozi bw'inkoko bwateye imbere cyane mu Rwanda, aho hasigaye haraje utumamashini tugiye dutandukanye, bakaba batwifashisha bari kuraririza amagi y'inkoko, hanyuma hakavamo imishwi myiza cyane, ikifashishwa mu bworozi.

Uducupa tugiye dutandukanye tuba turimo imiti yifashishwa iyo bari kuvura amatungo yagize ikibazo runaka cyangwa yafashwe n'ibyorezo, aho bakozamo urushinge hanyuma bagatera iryo tungo rigakira.

Umuntu ufashe icupa risa umweru, iryo cupa rikaba rifite umupfundikizo usa umutuku. Rikaba ririmo imiti igiye itandukanye, yifashishwa mu buhinzi n'ubworozi kugira ngo abakora uwo mwuga batagira ikibazo.

Agacupa gasa umweru, kakaba gafite umupfundizo wa usa umutuku. Kakaba kanditseho amagambo menshi agiye atandukanye ariko ari mu rurimi rw'Icyongereza, kakaba karimo imiti igiye itandukanye, yifashishwa mu buhinzi n'ubworozi.

Udukombe tugera muri dutatu bigaragara ko ari uducupa, tukaba dusa umweru turiho n'umukandara w'umuhondo, turimo rero imiti myinshi igiye itandukanye, yifashishwa mu mwuga w'ubuhinzi iyo bari kwica udukoko.

Agakarito gasa umweru kanditseho amagambo agiye atandukanye gashushanyijeho inka y'inzungu, ku ruhande rwa ko hari agacupa na ko kameze nk'ako gakarito bigaragara ko kaba karimo umuti uvura izi nka.

Hari amoko agiye atandukanye y'ibinini, haba hari n'udukarito dusa mu mabara y'umutuku, tugaragaza ubwoko bw'ibi binini birimo, bari kuvuga ko ubu bwoko ari ubw'umwimerere, bukaba buvura amatungo.

Umugabo uri kugenda ahantu mu ishyamba. Ishyamba ririmo amoko agiye atandukanye y'ibiti. Ibiti rero ni ingirakamaro cyane kuko bizana uyu mwuka mwiza duhumeka ndetse bigakurura n'imvura.

Gukora umuganda ni igikorwa cyashyizweho na leta y'u Rwanda, kugira ngo abaturage bage bakorera hamwe babashe kunga ubumwe ndetse no guteza igihugu cyacu imbere, tugire igihugu gikeye kandi gifite isuku.

Abantu bagera muri bane b'igitsina gore, bahuriye hamwe mu murima, aho bari kuwuhinga, harimo umwe wambaye ipantaro y'umutuku ndetse n'umupira w'umweru, akaba yambaye n'ingofero, yambaye na bote bigaragara ko ari umusirimu.

Abantu bagera muri babiri, bari guhinga mu murima uvuyemo ibigori kandi hakaba hateyemo ibiti bizwi nka gereveriya, aho ibi biti ari ingirakamaro cyane kuko birinda itaka gutwarwa n'isuri.

Umugabo uri mu murima we, akaba yambaye umupira w'umutuku ndetse n'ikabutura, akaba ari mu murima ari kugenda ahinga. Hirya ye, hateye insina ndende cyane. Uyu ni umwuga mwiza cyane, ku muntu uwukora abikunze.

Umugore uri mu murima w'ibigori, akaba ari kugenda ahingamo gake gake hakiri kare. Ari guhinga kugira ngo igihembwe cy’ihinga kizagere yararangije guhinga, maze abashe gutera kimwe n'abandi.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'agashati k'umweru ari mu murima w'ibigori, akaba afashe ku bigori bibiri aho ari kwerekana ko byeze neza kandi ubuhinzi bw'ibigori bubasha guteza imbere ba nyirabwo.

Umugore uri mu murima w'intoryi, akaba ari kugenda azisarura azishyira mu ibasi. Yambaye agapira k'umukara ndetse n'ingofero. Ari mu murima we w'intoryi, aho ari kugenda azisarura kugira ngo azigurishe.

Umuceri ni igihingwa cy'ingenzi cyane kuko gihingwa mu duce tugiye dutandukanye tw'Igihugu, gitanga umusaruro ku bahinzi bacyo kuko umuntu iyo amaze kugihinga bakagisarura bamuha amafaranga bityo akiteza imbere.

Umurima uteyemo imyaka ariko ikiri mito, hakurya hari ibiti birebire ndetse n'insina biragaragara ko aha ngaha ari ahantu mu giturage kuko nta hantu mu mujyi haba hameze gutya.

Umuntu uri gukora umuganda, aho ari kugenda ayora itaka arishyira ku mufuka akajya kurimena kugira ngo abashe gukora umuhanda mwiza, abantu bazajya banyuramo ntibagire ikibazo na kimwe.

Umugabo wambaye ingofero y’umukara ndetse n'ishati y’umweru, akaba afashe ku gihingwa kizwi nk'umwembe, akaba ari kwerekana ko yakoze umushinga w'ubu buhinzi kandi uzamuteza imbere.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, bari mu murima bakaba bari guhinga kugira ngo barebe ko bakwiteza imbere. Higanjemo abagabo ndetse n'abagore. Umurima bari guhinga havuyemo inyanya.

Ku kigo cy'amashuri gisakaje amabati asa ubururu ndetse n'inzugi z'ubururu, hakaba hari ubusitani bwiza cyane, hakaba harimo abagabo bagera muri batatu harimo umwe w'umupolisi ushinzwe umutekano, bari kugenda bakorera isuku ubwo busitani.

Mu rwego rwo kugira ngo umuhinzi abashe korora neza, ni byiza kubanza guhinga urubingo, hanyuma rwamara kwera ukabona kugura itungo, ukazajya urigaburira urwo rubingo kugira ngo bitazagorana.

Umurima w'ibigori mugari urimo umuntu uri kugenda abibagara ndetse anahinga, biragaragara ko ibi bigori byeze ariko igihe cy'ihinga kikagera atarabisarura none ari guhingamo hakiri kare.

Abantu bagiye batandukanye aho bahuriye mu murima w’ibigori, harimo abagabo batatu ndetse n'umugore umwe, bose biragaragara ko ari abasirimu. Ibi bigori ntabwo byari byuma neza ariko bireze.

Umugabo wambaye agapira k'icyatsi akaba yambaye ipantaro yayihinnye, ari mu murima aho arikugenda ahinga mu myumbati, arikugira ngo igihembwe cy'ihinga gitaha ntikizamucike azabashe kugendana n'abandi.

Pipinyeri ni bumwe mu buryo abahinzi babanza gukoresha igihe bashaka gutera ibiti cyangwa se imbuto, aho babanza bakazinazamo, bakazirera, zamara gukura bakabona kujya kuzitera.

Umugabo uri mu murima we, akaba yahinnye ipantaro, aho afite isuka ari kugenda ahinga, kugira ngo abashe kujyana n'abandi, mu gihembwe cy'ihinga kigiye kuza, kizatangira mu kwezi kwa cyenda.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe mu muhanda, harimo ab'igitsina gore ndetse n'ab'igitsina gabo, aho bari kugenda baharura umuhanda, bigaragara ko bari mu muganda nka gahunda ya Leta y'u Rwanda.

Umusaza uri mu myaka nka mirongo itandatu n'ibiri, akaba yambaye ikote ry'ikositimu, yambaye n'ipantaro yahinnye ndetse n'inkweto za bodaboda. Yikoreye ibigori, aho bigaragara ko avuye kubica mu murima we.

Urubingo ni ibihingwa by'ingirakamaro cyane, kuko abantu boroye amatungo nk'inka, bakunze kurwahira bakarushyira amatungo yabo, hanyuma akarurya akamererwa neza bagakirigita ifaranga.

Umugabo wambaye ishati ya kake n'amadarubindi ari mu murima w'ibigori aho ari kugenda atunga urutoki buri kigori areba niba cyareze neza, ibigori ntibirumva neza ariko birenze ku buryo umuntu yabirya.

Abantu benshi cyane, aho bahuriye mu murima w'ibigori, bakaba bari kugenda bahingamo kubera ko igihembwe cy'ihinga cyegereje kandi ibigori batarabisarura. Bari kugira ngo bazabisarure hahinze.

Ni ahantu mu kigo cy'amashuri aho hari umurima bahingamo imboga, hakaba hari umukobwa wambaye imyambaro iri mu mabara y'umukara, ufite isuka uri kugenda ahingamo, biragaragara ko bashaka kuhatera imboga.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko n'ingofero nziza y'urubaraza, akaba ari mu murima yahinzemo imbuto ze za dodo, akaba ari kugenda azuhira bigaragara ko ari mu gihe cy'impeshyi.

Abaturage benshi bateraniye hamwe, higanjemo abagore ndetse n'abana, bari kugenda baharura umuhanda, bigaragara ko bari gukora igikorwa rusange kizwi nk'umuganda, iyi ni gahunda itegurwa na Guverinoma y'u Rwanda.

Umugore wambaye imyambaro y'umukara, akaba ari mu murima we, aho ari kugenda acamo imirongo, bikaba bigaragara ko agiye gutera imbuto ye ku mirongo y'indinganire, ubu ni uburyo bwiza bugezweho.

Umugore wambaye imyambaro y'umukara, aho ari mu murima ari kugenda acamo imironko kugira ngo ateremo imbuto mu buryo bugezweho bwa kijyambere. Iyi ni sisiteme nshya yo guteza imbere ubuhinzi.

Umugabo wakoze umushinga w'ubuhinzi bw'inyanya, akaba arimo aragenda azisasira, ategereje ko zabasha gukura ngo azisarure, hirya ye hari umurima uteyemo ibitoki ndetse harimo n'ibiti birebire.

Umurima uteyemo imigozi myinshi, ubu ni ubuhinzi bw'ibijumba aho umuntu agenda agahinga imigozi hashira amezi atandatu akajya gukura agasanga hajeho ibijumba, ibyo bijumba rero ni kimwe mu biribwa bimara inzara.

Mu isoko haba harimo amoko agiye atandukanye y'ibihingwa bikomoka ku musaruro w'abahinzi, cyane cyane nk'ibitoki, amateke, ibijumba, ibirayi ndetse n'andi moko agiye atandukanye y'imboga n'imbuto,

Ibijumba ni bimwe mu bihingwa by'ingenzi cyane kuko iyo umuhinzi abisaruye, abijyana ku isoko, nawe waba ubikeneye ukabisanga ku isoko, hanyuma ukabihaha ku giciro cyiza.

Umusaza uri mu kigero cy'imyaka nka mirongo itanu n'irindwi, afite amahundo y'ibigori agera muri atanu, bigaragara ko ari ayo akuye mu murima we w'ibigori, akaba ari kwerekana ko ibigori bitanga umusaruro ufatika.

Abagore benshi bagiye batandukanye bahuriye hamwe, aho bari gukusanya umusaruro w'ibigori, bagenda bawupakira mu mifuka kugira ngo buri wese abashe kujyana ibye kuko bahingiye muri koperative.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, zikaba zifite inzugi zisa ubururu. Izi nyubako rero, zifite amabati agiye atandukanye, ndetse imbuga yazo ikaba ishashemo amapave.

Imifuka myinshi cyane igiye itandukanye, ipanze ahantu hamwe biragaragara ko irimo impungure zakomotse ku mahundo y'ibigori, hino hari amashitingi asutseho amahundo y'ibigori bigaragara ko bitegura kuyahugura.

Iyo abahinzi b'ibigori basaruye bubaka ibyo bita hangari, hanyuma bakagenda bamanikaho ibigori kugira ngo byume neza kandi babisigasire neza. Iyo bimaze kuma barabihungura bakabihunika.

Umuntu uri kugenda atwaye igare mu kuboko kwe kw'ibumoso, hari imifuka myinshi igiye itondetse bigaragara ko harimo umuceri, uyu ni umuceri baba basaruye bakawurunda hamwe mu gihe bategereje ko imodoka iza kuwujyana.

Udufuka twinshi tugiye dutandukanye turi mu mabara y'umuhondo tukaba turimo umuceri, uyu ni umusaruro ukomoka mu Rwanda, aho uyu muceri uba warahingiwe mu Rwanda, hanyuma bakawutunganya.

Ibisheke ni bimwe mu biribwa by'ingirakamaro kuko umuntu wabihinze, bimuteza imbere. Si ibyo gusa n'umuntu ubicuruza yabiranguye, arabigurisha kuri make make, bikarangira akuyemo menshi ndetse n'inyungu.

Umurima uteyemo ibimera bigiye bitandukanye ariko kandi hakaba harimo n'ibiti birebire by'inganzamarumbo. Ibi biti ni ingenzi cyane kuko umuntu ubihinze bibasha kumuha umusaruro, mu buryo bugiye butandukanye.

Hari amoko atandukanye y'ibimera bijya kumera nk'ibyatsi ariko biba ari ingirakamaro cyane. Iki kimera rero, ni ingirakamaro kuko kivamo imiti igiye itandukanye, ivura indwara za kinyarwanda.

Umugabo wambaye agakabutura k'agakoboyi n'agapira k'amaboko y'amace, akaba afite umudigi, ahagaze mu murima we yahinzemo urutoki, akaba ari kureba ukuntu insina ze zimeze neza cyane.

Ubuhinzi bwa boberi n'ubworozi bw'amagweja bikomeje gutera imbere cyane, aho umuntu asigaye abihinga, hanyuma byamara kwera akabigurisha bakamuha amafaranga afatika.

Ubuhinzi bw'imyumbati na bwo bukomeje kwitabwaho, biba byiza iyo ubiteye ahantu hari ibiti birebire by'inganzamarumbo, bizajya bibikururira imvura maze bikayibona bikera neza.

Ishyamba rinini cyane. Rikaba ryahuriyemo abantu b'ingeri zigiye zitandukanye. Harimo abakerarugendo bari kugenda muri iryo shyamba, bagenda basora inyamaswa nyinshi zigiye zirimo. Harimo ibiti birebire, bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Umurima uhinzemo amoko agiye atandukanye y'ibiti ndetse n'imboga zigiye zitandukanye zizwi nka kayote, harimo ibiti birebire akaba ari byo izo kayote zitondagira, hanyuma zikazajya zigenda zera.

Ubuhinzi bw'imbuto zitwa imyembe ni bwiza cyane kuko bugira umusaruro ufatika. Reba nk'iki giti cy'imyembe, ukuntu kingana ariko n'imbuto gifite. Umuhinzi wacyo, aramutse azisaruye akazigurisha zamwungura.

Abatubuzi batubura imbuto za voka, bakunze kwifashisha imifuka minini kugira ngo abe ari ho bahubikamo imbuto z'avoka kuko ziba ari nini cyane, izi mbuto rero ziba ziri ku isoko ziragurishwa, uzikeneye wazigura ukajya kuzitera.

Ishyamba ririmo ibiti byinshi bigiye bitandukanye, harimo ibinini n'ibito, ibigufi ndetse n'ibirebire, ibi biti ni ingirakamaro kuko bidukururira imvura kandi bikaduha uyu mwuka mwiza duhumeka.

Mu cyaro hari amoko menshi agiye atandukanye y'ibimera ndetse n'ibihingwa. Hari ibikunda guhingwa, umuntu yahagera atamenyereye ibijyanye n'ubuhinzi, akaba atapfa kumenya ubwoko bw'icyo gihingwa. Ariko umuhinzi we aba abisobanukiwe.

Insina yo mu bwoko bugezweho bwa fiya. Iyi nsina rero iyo uyihinze ubasha kubona umusaruro kuko igitoki kimwe cyayo gipima ibiro ijana, kikagura ibihumbi icumi.

Hari amoko agiye atandukanye y'ibiti, hari ibizwi nk'amasipuri, ibi biti ni ingirakamaro cyane kuko bigira amababi meza cyane abereye ijisho ndetse bikagira n'umuyaga mwiza ku bantu baherereye hafi aho ngaho.

Mu ishyamba haba harimo amoko agiye atandukanye y'ibyatsi, hari ibyatsi biba ari bigufi ndetse n'ibindi biba ari birebire cyane, ibiba birebire cyane aba ari ibiti, bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Hari amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari ingenzi cyane kuko iyo bimaze gukura bidufasha kubona imvura aho biyikurura ndetse bikazana n'umwuka mwiza uyu duhumeka.

Umurima uhinzemo imbuto zigiye zitandukanye ndetse n'imboga, hakaba harimo n'izizwi nka kayote, izi ngizi zera imbuto zoroheye ariko zikifashishwa nk'ingereko yo mu cyaro.

Umuhanda uri ahantu bigaragara ko hadakunda kugendwa, ukaba uteyeho amoko agiye atandukanye y'ibiti. Ibi biti rero ni ingirakamaro cyane kuko bitanga umuyaga n'amahumbezi. Ikindi bikurura imvura.

Ubuhinzi bwa kayote na bwo busigaye bwarateye imbere cyane, aho umuhinzi wa kayote nawe abasha kwiteza imbere, akaba yazisarura akajya kuzigurisha bakamuha amafaranga agatera imbere.

Mu ishyamba cyangwa se mu mirima no ku mihanda, haba hari amoko y'ibiti agiye atandukanye, ku buryo umuntu atapfa kumenya ubwoko bwacyo, nk'iki giti kiri aha ngaha rero, kugira ngo ube wagitahura ntabwo biba byoroshye.

Mu murima cyangwa se mu mashyamba, haba harimo ibimera byinshi cyane bigiye bitandukanye, ku buryo umuntu ashobora kubibona akibaza ubwoko bwabyo, haba harimo ibiti bya kimeza ndetse n'ibyo bateye.

Sereri zirambitse ahantu ku gitenge, bigaragara ko uyu mugore amaze kuzisarura akazirambika ku gitenge, mu gihe ari gusarura izindi ategereje ko zigwira akajya kuzigurisha.

Umukobwa uri gukora umwuga w'ubuhinzi bw'amatunda nk'imbuto, kuko yamaze kumenya ibanga ry'ubuhinzi bw'amatunda, kuko bigufasha kwiteza imbere maze ugasezerera ubukene.

Ubusitani bwiza cyane buteyemo indabyo nziza kandi zibereye ijisho, iruhande rwazo hari igikuta cy'inzu nziza cyane yubakishije amatafari ahiye, ariko kandi ifite umukandara usa umukara.

Inyanya zisutse ku gatanda ndetse n'imiteja, izi ni imboga nziza utakagombye kubura ku ifunguro ryawe rya buri munsi, niba ubikeneye wanyarukira ku isoko ricuruza imboga bakabiguha rwose kuri make.

Hari amoko agiye atandukanye y'imbuto ku buryo igihe cyose ngo uzikeneye wagenda mu isoko bakazikugurisha. Haba hari akabase karimo ibinyomoro, kagura ibihumbi bibiri ndetse n'indi base irimo amatunda, ikiro kigura ibihumbi bitatu.

Intoryi ni zimwe mu mboga z'ingirakamaro cyane zikunze kwifashishwa cyane mu mujyi wa Butare, biragoye ko wabona umuntu yatetse ifunguro ritariho intoryi, rero ni byiza ko zitabwaho zikaboneka.

Ubuhinzi bw'urusenda na bwo bukomeje gutera imbere, aho umuntu asigaye ahinga urusenda hanyuma rwakwera akarusarura, akarugemura ku masoko yabugenewe, hanyuma bakamuha amafaranga.

Ibitunguru bigiye bitandukanye biteye mu murima, umuntu uhinze ibitunguru bimugirira akamaro cyane kuko abyifashisha mu buryo bugiye butandukanye, ashobora kuba yabitekesha cyangwa se akabigurisha.

Umukobwa wambaye agapira gasa na oranje ndetse n'imisatsi ya menshi, akaba ahagaze mu murima w'ibinyomoro, akaba ari gusuzuma ngo arebe niba byeze maze abe yabisarura abigemure ku isoko.

Indabyo ziri amoko menshi agiye atandukanye. Hari indabyo zikura zikagenda ari igitsiko mu kugera hejuru. Hari n'izindi zizana uturabyo tw'umuhondo n'umutuku zikiri ntoya.

Ubuhinzi bw'imboga ni buhinzi bwateye imbere cyane, kuko umuntu iyo ahinze dodo abasha kubona amafaranga, hanyuma akarwanya imirire mibi mu muryango we, ndetse agasagurira n'amasoko.

Akarima k'igikoni ni gahunda yashyizweho na Leta y'u Rwanda kugira ngo buri rugo rwihaze ku mboga, bizafashe kurwanya imirire mibi ndetse n'igwingira ry'abana bakiri bato munsi y'imyaka itanu.

Amashu arambitse ahantu mu gatanda mu isoko aho bayahagemuye, ni byiza cyane ko igihe cyose ushaka amashu wanyarukira mu isoko akaba ariho ujya kuyahahira kuko uyagura kuri make ataguhenze.

Ubusitani bwiza cyane buteyemo indabyo nyinshi z'amoko agiye atandukanye, iruhande rwabwo hari inyubako nziza cyane nubwo zitagaragara neza, ariko zubatswe mu buryo bugezweho.

Abantu bagera muri batatu, umugabo ndetse n'abana be babiri, bakaba bari kugenda mu murima w'inyanya, aho umugabo ari kugenda asoroma, bakagenda bahuriza mu kabase umwana mutoya afite.

Umuntu wakoze umwuga w'ubuhinzi bw'urusenda ndetse na dodo, akaba yarabisasiye bikaba bigaragara neza cyane, iyo igihe cy'izuba kigeze araza akabivomera kugira ngo bikomeze bitoshye.

Ubusitani bwiza cyane burimo indabyo z'amoko menshi agiye atandukanye, bukaba bwegereye uruzitiro rwubakishije ibyuma ndetse n'inkingi zubakishije amatafari ahiye, ziteye irangi ry'umweru.

Mu isoko harimo amoko agiye atandukanye y'imbuto, izi mbuto rero uramutse uzishaka uraza ukazihaha bakaziguha kuri make, harimo amatunda, imyembe, amaronji ndetse n'indimu.

Imboga z'amoko agiye atandukanye, by'umwihariko nk'imboga zizwi nka dodo, aho ziba zigiye zitandukanye ndetse zifite n'umumaro ugiye ukomeye mu Rwanda.

Umugabo ari kumwe n'umugore we, bakaba bafite ururabyo imbere yabo, bigaragara ko bagiye kurutera, hanyuma iwabo hakazaba hameze neza, ku buryo kuhagera hazaba hashimishije cyane.

Ubuhinzi bwa makadamiya nabwo bumaze gutera imbere cyane, aho umuntu asigaye azihinga, hanyuma akazitaho akazuhira, izi mbuto rero ni ingenzi cyane kuko umuntu waziriye amererwa neza.

Ubuhinzi bw'urusenda ni bumwe mu buhinzi bumaze gutera imbere cyane, aho umuntu asigaye ahinga urusenda, hanyuma akagenda arwitaho, akanarusasira rukazamugirira akamaro igihe yarusaruye.

Karoti ziri amoko menshi agiye atandukanye, hari karoti zikunze guhingwa ahantu mu cyaro bakazigemura mu mujyi, hari kandi na sereri ndetse n'ibitunguru. Ibi bihingwa rero, ni ingirakamaro cyane.

Umugabo wambaye agapira k'ubururu, aho yakoze umwuga w'ubuhinzi bw'amashu akaba ahagaze mu murima we w'amashu, ari kugenda ayasura ngo arebe ko ameze neza, hirya ye hari umurima uteyemo umuceri bigaragara ko ari mu gishanga.

Uducupa tw'ibyuma tugiye dutandukanye, turimo imbuto bifashisha bari kwinaza umurama w'imbuto runaka, cyane cyane izizwi nka karoti.

Ikibuga cyiza cyane gishashemo amapave, kikaba cyegeranye n'ubusitani bwiza cyane bufite indabyo zigiye zitandukanye, harimo n'ibiti birebire bitanga umuyaga mwiza ndetse n'amahumbezi.

Ubusitani bwiza cyane buteyemo indabyo nziza zitoshye, ku buryo umuntu wese uhicaye cyangwa se uri kuzireba, zimunezeza ndetse akagubwa neza, ni byiza ko nawe wazitera iwawe.

Umugore wambaye bote n'ipantaro n'agashati, akaba afite imisatsi ya menshi, ari mu murima we yahinzemo watermelon, aho ari kugenda azisarura areba ko zeze, ngo ajye kuzigurisha.

Ubuhinzi bwa dodo ni bumwe mu buhinzi busigaye bwitabirwa cyane, aho umuhinzi wabuhinze bubasha kumuteza imbere kandi bugafasha u Rwanda mu kurwanya imirire mibi ndetse n'igwingira by'abana bakiri bato.

Mu isoko haba harimo amoko agiye atandukanye y'imbuto ku buryo igihe cyose uzikeneye wanyarukira mu isoko bakaziguha, haba harimo amatunda, ibinyomoro, imineke ndetse n'ibindi, igihe uzikeneye wazigurira aha ngaha.

Indabyo nziza cyane zibengerana, kandi zikaba ziteye mu busitani bwiza cyane nubwo bukiri buto. Ni byiza cyane kugira ubusitani nk'ubu ngubu, kuko iyo bumaze gukura ubona aho wicara uri kuruhukira.

Ibase irimo intoryi, intoryi rero ni imbuto z'ingirakamaro cyane ndetse zikaba n'imboga, izi rero zirifashishwa cyane cyane ahantu mu mujyi, aho baziteka mu mafunguro ya buri munsi.

Voka zigera muri ebyiri. Voka ni ingenzi cyane kuko umuntu waziriye zimwongerera vitamini D mu rutirigongo no mu bisokoro ndetse bigahumekera mu bworo bw'ikirenge.

Abantu bagera muri batatu, abagore babiri n'umugabo umwe, bari kubaka akarima k'igikoni, aho bari kugenda bagateramo imboga, akarima k'igikoni rero, ni imwe muri gahunda yashyizweho na Guverinoma y'u Rwanda.

Umurima munini cyane kandi mugari, uyu murima uhinzemo imboga z'amashu, izi mboga rero ni ingenzi cyane ku buryo umuntu wazihinze akazitaho, iyo asaruye avanamo umusaruro utubutse.

Hari amoko agiye atandukanye y'indabo, aho izi ndabo uzihinga ahantu maze zamara gukura zikaba zifite ubusitani bwiza cyane bubereye ijisho, ku buryo buri wese yakwifuza kuhifotoreza.

Umuntu wakoze umushinga w'ubuhinzi bw'ibinyomoro, none bikaba byeze yabisaruye, bigaragara ko yabizanye ku isoko. Uramutse ubikeneye, waza ukabihaha kuko ntabwo bihenze, ikiro kigura ibihumbi bibiri.

Abantu benshi bagera muri batatu, bateraniye hamwe muri pipinyeri, aho bari kugenda bagura imbuto z'ingemwe bakajya kuzitera, harimo umugore uhetse umwana, umugabo wambaye ipantaro y'umweru ndetse n'undi musore wambaye agapira k'umuhondo.

Ubusitani bwiza cyane buteyemo indabyo z'amoko agiye atandukanye, aho izi ndabyo ziba ziteye amabengeza kuzibona cyangwa se kuba wazitunga iwawe.

Umukobwa wambaye imyambaro y'umukara, ufite imisatsi ya menshi ari mu murima w'avoka aho ari kugenda ahanura avoka kugira ngo ajye kuzitara nizishya azazigurishe hanyuma abonemo amafaranga.

Ubusitani bwiza cyane buteyemo amoko y'indabyo agiye atandukanye, hakaba harimo n'igiti kirekire cy'avoka gitanga umusaruro mu buryo bugiye butandukanye bwaba ubw'imbuto ndetse n'ubw'umwuka.

Ubuhinzi bwa avoka nabwo bumaze gutera imbere cyane, aho umuntu asigaye agura avoka akayitera, mu mezi atandatu ikaba yatangiye kumuha umusaruro, akaba yazisarura akazijyana ku isoko, bakamuha amafaranga.

Ibase irimo amoko agiye atandukanye ya puwavuro, hakaba hari n'izindi mboga zigiye zitandukanye nk'ibitunguru, dodo ndetse n'imiteja. Igihe cyose waba ubikeneye, wanwanya rucyira hano ku isoko bakabiguha.

Umugabo wakoze ubuhinzi bw'inyanya ahantu mu gishanga none impeshyi ikaba yateye, na we ntabwo yazitereranye ahubwo yashatse umupira ari kugenda azuhira kugira ngo ziticwa n'izuba.

Ahantu mu kibaya aho umwuga w'ubuhinzi bawuteje imbere cyane, hakaba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu kuhira imyaka mu gihe cy'impeshyi, bidasabye ko umuntu akoresha imbaraga ze.

Ni ku ivomero rusange, ahari abana bagiye batandukanye, abari kuvoma ndetse n'abari gukaraba. Bari kumwe na mama wabo, aho yambaye agashati k'icyatsi. Hari undi mwana, uri gupomba kugira ngo amazi aze.

Ubuhinzi muri iki gihe bwateye imbere, aho umuntu asigaye atera imyaka ye, haba mu mvura cyangwa se mu mpeshyi, hanyuma akagenda ayivomerera kugira ngo itaza kwicwa n'izuba, hanyuma ikamuha umusaruro uhagije.

Ibihingwa byiza cyane bihinze ahantu mu materasi y'indinganire. Ubu ni uburyo bwiza cyane bwashyizweho na Leta kugira ngo abaturage bajye babasha kubona umusaruro mwiza cyane kandi birwanye n'isuri.

Ahantu mu karere ka Ngororero, hari amaterasi meza cyane y'indinganire, aho haba hateyemo ubwatsi ndetse n'imyaka, bikagirira akamaro aborozi ndetse n'abahatuye.

Amazu meza cyane asakaje amabati y'ubururu, aho hakurya hari imisozi igiye itandukanye ndetse hari n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi, hakaba hari kandi n'icyanya cyahariwe ubworozi.

Ahantu harambuye hari ibyatsi byiza cyane bigaragara ko ari mu busitani, akaba ari ku kibuga cy'indege giherereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye, hakurya hakaba haparitse imodoka z'umukara.

Ikibuga kigari, aho baragira inka, hakaba hari ibyatsi byiza bitoshye ndetse hakaba harimo n'ibiti bigiye bitandukanye, bizana umuyaga n'amahumbezi.

Umurima mugari cyane uteyemo imyumbati, hagati y'umurima n'undi hagiye harimo urubingo, uru rubingo ni ingenzi cyane kuko rwifashishwa nk'ibyo kurya by'amatungo maremare urugero nk'inka.

Ahantu hari kaburimbo, ruguru yayo hakaba hateye umurima munini cyane kandi mugari urimo icyayi. Hepfo ya kaburimbo, hateye iishyamba ririmo ibiti binini bizana umuyaga n'amahumbezi.

Ni ahantu mu giturage ho mu karere ka Ngororero ahaciye amaterasi, hagiye harimo amazu hagati yayo materasi y'indinganire, uburyo bwo guca amaterasi ni bumwe mu buryo bwongera umusaruro.

Ahantu hari ikibaya cyiza cyane, kirimo abahinzi b'ingeri zigiye zitandukanye, by'umwihariko abahinga imboga n'umuceri, hejuru mu mpinga z'imisozi, hagiye hari amazu agiye atandukanye ndetse n'amashyamba, bikaba ari byiza cyane.

Mu Turere two mu Ntara y'Iburengerazuba nka Ngororero na Nyabihu, twongereyeho Uturere two mu Majyepfo nka Nyaruguru, bakunze guhinga icyayi, ubuhinzi bw'icyayi ni ingenzi cyane kuko umuntu wagihinze kimuteza imbere.

Mu turere tw’ahantu mu cyaro dukonja nk’uturere twa Ngororero, Rubavu, Nyamasheke ndetse na Nyabihu, tutibagiwe n'Akarere ka Nyaruguru, bakunda guhinga icyayi cyane.

Umurima munini cyane uteyemo ibimera bigiye bitandukanye, harimo ibyimejeje ndetse mu ntangiro hahingwa ibigori ndetse n'ibishyimbo, uyu murima rero hakaba hari n'aho baragiramo inka.

Ahantu hagari cyane bigaragara ko ari muri pipinyeri aho binaza imbuto zigiye zitandukanye, hanyuma bakazazitera nyuma. Hakurya hari udusozi twiza cyane tumwe mu tugize imisozi igihumbi y'u Rwanda.

Mu bishanga haba harimo imitabo igiye itandukanye izwi nk'amadiki, ikunze guhingwamo umuceri, umuntu wahinze umuceri rero na we awusarura bimugoye ariko akabonamo amafaranga menshi.

Inyubako zubatswe ahantu mu cyaro, zikaba zisakaje amategura. Munsi yazo, ndavuga munsi y'urugo, hari insina nyinshi, hakurya hari imisozi myiza cyane ibereye ijisho.

Inyubako nziza cyane isakaje amabati, akaba ari inyubako yo mu cyaro. Impamvu mvuze ngo ni nziza, ni nziza ugereranyije n'aho iri. Naho ubundi irashaje cyane. Hakurya hari imisozi myiza cyane iciyeho amaterasi y'indinganire.

Ubuhinzi ni umwe mu myuga igezweho kandi itunze abantu batari bake mu Rwanda, usanga ahantu h'imisozi ihanamye Leta y'u Rwanda igenda ihaca amaterasi kugira ngo abantu bahahinga bitazabagora.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, aho zisakaje amabati y'umutuku ndetse zikaba zisize irangi ry'umweru, ruguru yazo hari ibiti bigiye bitandukanye, bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Ni ahantu mu gishanga, aho harimo amoko agiye atandukanye y'ibihingwa, yaba imboga ndetse n'imbuto, hakaba kandi hahinzwe umuceri, hejuru mu mpinga y'imisozi harimo amazu menshi agiye atandukanye ndetse n'amashyamba.

Ubuhinzi bw'inyanya bumaze gutera imbere cyane, aho umuhinzi w'inyanya azitaho akazigirira isuku, maze mu gihe gitoya zigatangira kumuha umusaruro, maze na we agakirigita ifaranga, iyo wazisasiye birakorohera kuko ntabwo zirara.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye, bakaba bahagaze bari kureba inka za kizungu. Zikaba ziri ahantu mu kiraro, ariko bigaragara ko zishonje. Zikeneye kwitabwaho kugira ngo zizatange umusaruro kuri ba nyirazo.

Ubworozi bw'ingurube bumaze kuba ubwa kijyambere, aho umuntu asigaye yubaka ikiraro akagura ingurube akayishyiramo, akajya agenda ayigaburira uko ikura ari nako imuha ifumbire, bityo bikamuteza imbere.

Inka nziza cyane za kijyambere, zifite amabara y'umweru n'umukara. Zikaba ziragiwe ahantu mu gisambu cyabugenewe, aho ziri kugenda zirisha. Nyirazo ari kwicinya icyara kuko zikamwa menshi.

Ubworozi bw'inkoko za kijyambere, ni bwiza cyane kuko butuma umuntu uzoroye asezera ku bukene ahubwo akiteza imbere. Ni byiza cyane korora izi nkoko kuko zigira umusaruro ufatika.

Ihene ikiri ntoya ariko baziritse amaguru y'imbere, bakaba bagira ngo ntibashe kwiruka, ni nziza cyane ifite amabara agiye atandukanye, ari yo umukara, umweru ndetse n'ibara ry'igitaka ku maso.

Ubworozi bw'inkoko na bwo bumaze gutera imbere cyane, aho nk'iyi nkoko y'urusake ihagaze mu mafaranga ibihumbi cumi na bitanu by'Amanyarwanda, maze umuntu uyoroye igahita imuha umusaruro wikubye gatanu.

Ihene iziritse ahantu ku giti, ikaba iri mu mabara y'igitaka ndetse n'umweru, izi hene rero zitangwa na Leta y'u Rwanda, aho bagenda baziha abaturage batishoboye bakagenda bazorora kugira ngo barebe ko bakwiteza imbere.

Ihene iziritse ahantu mu busitani, ikaba iri kugenda irisha gake gake, hirya yayo hari inyubako nziza cyane ariko zitagaragara neza, nyamara zubatswe mu buryo bwa kijyambere.

Ubworozi bw'inka ni bumwe mu bworozi bumaze gutera imbere cyane, kuko ushobora kororera inka yawe mu rugo ukazajya uyitaho hanyuma ikaguha umusaruro utubutse, harimo n'ifumbire.

Umugore uhetse umwana, akaba akenyeye igitenge ndetse akaba afite ihene ebyiri iruhande rwe ndetse n'umutwaro w'inkwi. Inyuma ye, hari umurima w'ibigori ndetse n'amazu.

Ubworozi bw'inka na bwo bumaze gutera imbere cyane, iyo inka uyororeye mu kiraro biragufasha cyane kuko iguha umusaruro uhagije, ikura mu gihagararo ndetse ikaguha n'ifumbire uzafumbiza mu murima wawe.

Ubworozi bw'inka bwa kijyambere, ni ubworozi bwororera inka mu rugo, aho umuturage ayororera mu rugo akazajya ayahirira, atiriwe ayishorera buri gihe ngo agiye kuyiragira kuko byayiviramo no kuvunika.

Ubworozi bw'inka nyinshi cyane, aho ziteraniye hamwe ziri mu kiraro, hanze hagiye hari abashumba bazo bagera muri batatu, muri izo nka harimo zimwe z'inzungu n'izindi za gakondo, iz'inzungu zirasa umweru ndetse n'umukara.

Inka ya kizungu, iri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, iri mu kiraro, ikaba iri kurira ubwatsi bwayo mu kameza bayubakiye ka kizungu kandi ikaba ifite n'ihena ry'umuhondo ku gutwi.

Ubworozi bw'inkoko bumaze gutera imbere cyane, uyu mugabo yiteje imbere, aho yoroye inkoko nyinshi azororera mu nzu, afite ibikoresho bigiye bitandukanye ziriramo, iyo woroye inkoko muri ubu buryo ziguteza imbere cyane.

Inyana ikiri umutavu, aho iryamye bayiziritse umurunga mu ijosi, bakaba bari kugira ngo itajya konka nyina, hanyuma bajya gukama bakabura icyo bafata.

Ubworozi bw'ingurube busigaye bwarateye imbere cyane, aho u Rwanda rushishikariza buri muturage korora ingurube mu kiraro cye, hanyuma akazajya ayitaho kugira ngo izabashe kumuteza imbere.

Inka yo mu mabara y'umweru n'umukara, ikaba iziritse umugozi mu ijosi, aho iri kugenda itembera ahantu mu kibuga ariko bigaragara ko ishonje. Nyirayo agomba kuyitaho kugira ngo izamuhe umusaruro.

Inka nziza cyane ya kijyambere, aho ifite amabere meza cyane ndetse n'icebe rinini, ikaba ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara. Ikaba ari imwe muri za zindi zikamwa litiro cumi n'eshanu ku munsi.

Umugore w'ahantu mu giturage, akaba yoroye ihene zigera muri ebyiri. Akaba yazanye utwana tw'ihene tubiri yaduhaye amakoma turi kurya. We ahagaze imbere y'inzu idahomye yubakishije amatafari ya rukarakara.

Abantu bagera muri batatu, umugabo n'umugore ndetse n'umwana, aho biteje imbere mu bworozi, umugore akaba afite ihene ari kuzigaburira ndetse n'umwana ari guha inka ubwatsi, umugabo ahagaze ari kubareba.

Uduhene tubiri tugiye dutandukanye, kamwe kashinze amatwi ndetse n'amahembe, akandi karagaragara igice cy'umutwe gusa, utu duhene rero uramutse utuguze ukatworora, mu mezi atanu waba uri kubonamo inyungu ifatika.

Abantu benshi bateraniye hamwe, higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, aho bafite ingurube imbere yabo, buri wese akaba afite iye, bigaragara ko ari umushinga umaze kuzibaha, bakaba bagiye kuzorora bakiteza imbere.

Ubworozi bw'inkoko aho nyirazo azifata akazishyira mu nzu yabugenewe, hanyuma akazajya agenda azitaho aziha ibyo kurya hanyuma na zo zikarushaho kumererwa neza maze zikabyibuha.

Ubworozi bwiza bugezweho ni ubworozi bubera mu rugo, aho umuntu woroye amatungo ayororera iwe akazajya agenda ayahirira hanyuma bigatuma amererwa neza ndetse na we akabona ifumbire.

Ubworozi bw'inka ni bumwe mu bworozi bumaze gutera imbere cyane, aho umuntu woroye inka bya kijyambere ibasha kumuha umusaruro. Iyi nka rero ni iya kizungu iri mu mabara y'umukara n'umweru.

Ubworozi bw'ingurube na bwo bumaze gutera imbere cyane, aho umuntu woroye ingurube, zigenda zimuha umusaruro rwose bitewe n'uko yazitayeho, umuntu rero iyo agurishije ingurube, abasha kubonamo amafaranga menshi cyane.

Inyana nziza cyane iri gusa amabara y'umweru ndetse n'umukara, biragaragara ko ikiri umutavu kuko itaramenya kurisha ikaba iryamye ahantu mu kiraro kandi iguwe neza.

Ihene zigera muri ebyiri, aho ziziritse ahantu mu busitani impande y'igikuta, ni ihene nini ndetse n'umwana wayo, iyo hene nini n'umwana wayo, zirasa umukara ndetse n'ibara ry'umutamu.

Abantu bagiye batandukanye bigaragara ko ari abayobozi bahuriye mu rugo rw'umuntu, aho bose begereye ikiraro cy'inka, bakaba bari kureba uburyo nyirazo yazororeye neza mu kiraro kandi mu buryo bugezweho.

Inka nziza ya kijyambere, aho ifite amabara agiye atandukanye y'umweru ndetse n'umukara, ikaba iri mu kiraro cyayo iri kurisha ubwatsi bayizaniye, kugira ngo imererwe neza.

Ibyana by'ingurube bigera muri bitandatu, bikaba biryamye hamwe, bigaragara ko bimaze konka. Ibi byana rero biri ku isoko biragurishwa, ni ingurube za kijyambere, icyana kimwe kiri kugura ibihumbi mirongo itatu.

Ihene nyinshi cyane zigera muri eshanu, zikaba zikiri ntoya ariko zikaba ziboshye amaguru y'imbere, biragaragara ko izi hene badashaka ko ziruka, bagiye kuziha abaturage kugira ngo biteze imbere.

Ubworozi bwa cyijyambere ni ubworozi bwo kororera amatungo yacu mu rugo uyu musore rero akaba aragiye inka ye aho yayishyize mu kiraro yayishyiriye ibyokurya ku kameza ikaba iri kurya k'uruhande haziritse ihene.

Ubworozi bw'ingurube bumaze gutera imbere cyane, aho umuntu asigaye yorora ingurube yabyara rimwe ikazana ibyana byinshi, maze nawe si ukubona umusaruro akimarayo, hanyuma agasezera ubukene.

Ubworozi bw'inka na bwo bwamaze gutera imbere, aho umuntu asigaye yubakira inka ye ikiraro hanyuma akazajya ayororeramo kugira ngo imuhe umusaruro uhagije ndetse ajye abona n'ifumbire yifashisha mu buhinzi.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Bahagaze ahantu hamwe. Buri wese afashe ingurube mu kuboko kwe. Biragaragara ko ari umushinga wa imbuto foundation umaze kuzibaha, none bakaba bagiye kuzorora.

Ubworozi bwa kijyambere, ni ubworozi bworora inka zitanga umusaruro utubutse, yaba umukamo cyangwa ifumbire. Izi nka rero za kizungu, zikaba zifite amabara y'umweru ndetse n'umukara.

Hari ubworozi bwa kijyambere, aho ingurube uyororera mu kazu keza kabugenewe gakingishije urugi rw'icyuma. Uyu mugore rero ari kurebera ingurube muri urwo rugi, ngo arebe uko imaze kungana. Ni ingurube nziza cyane ibyibushye.

Ubworozi bw'inkoko za kizungu zizwi nka saso, ni bumwe mu bworozi bumaze gutera imbere cyane, aho ufata inkoko zawe, ukagenda ukazishyira ahantu mu nzu, ukazajya ugenda uziha ibyo kurya maze si ukubyibuha zikamarayo.

Ubworozi bw'inkoko za kizungu bumaze gutera imbere cyane, aho umuntu asigaye yorora inkoko akazitaho maze na zo zikagenda zimuha umusaruro uko bwije ndetse n'uko bukeye.

Ubworozi bw'ingurube na bwo busigaye bwarateye imbere cyane, cyane cyane aho haziye ingurube za kizungu. Umuntu asigaye azorora, nyuma y'amezi atanu bakamuha amafaranga atubutse, akaba yaguramo n'umutungo.

Inyamaswa zitwa intama, ni inyamaswa zikunze kororwa cyane mu turere two mu ntara y'Iburengerazuba, twavuga nka Ngororero, Rubavu ndetse na Rutsiro, izi nyamaswa zizwiho kwitonda cyane.

Ubworozi bw'inka bugezweho ni ubworozi bwo kuzororera mu kiraro, izi nka rero za kizungu iyo imwe baje kuyibanguriza barayifata bakayishyira mu kiraro, hanyuma bagahita bafunga ku buryo itahindukira.

Ubuhinzi bw'imbuto buba bwiza iyo umuntu abanje kubanza kuzinaza mu murima, hanyuma akazubakira uruzitiro akazizitira ndetse akazisakara kugira ngo zitazicwa n'izuba.

Ubusitani bwiza cyane buteyemo amoko menshi agiye atandukanye y'imboga, cyane cyane twavuga nk'inyanya, zirateye kandi zirasasiye, uyu muntu nyirazo aba agomba kuzivomerara mu mpeshyi kugira ngo ziticwa n'izuba.

Ubuhinzi bw'amafu, bumaze gutera imbere cyane, aho umuntu asigaye ahinga amashu, hanyuma yayasarura akavanamo amafaranga menshi cyane, ashobora kuba yagura n'ikinyabiziga nka moto cyangwa igare.

Ubuhinzi bumaze gutera imbere cyane, aho abantu basigaye bakora icyo bita kwinaza imbuto zigiye zitandukanye, bakazishyira muri pipinyeri yabo, hanyuma zamara gukura bakagenda bazigurisha.

Ubuhinzi bw'ikawa bwateye imbere cyane, aho umuntu asigaye afata umurima we wose akawuhingamo ikawa, hanyuma akazajya ajya kuzisoroma uko bwije n'uko bukeye azigurisha zikamuha amafaranga.

Umuntu wakoze umwuga w'ubuhinzi bw'amatunda akaba yarayahinze ayazengurukije ibiti none akaba atarera, akomeje kuyitaho kugira ngo niyera azabashe kumuha umusaruro.

Ahantu mu gishanga bakunze guhinga imbuto ndetse n'imboga bigiye bitandukanye, by'umwihariko nk'imboga bita intoryi, zikunze guhingwa cyane kandi bakazigemura ahantu mu mujyi kuko zikoreshwa cyane.

Umugabo uri mu murima w'umuceri, bigaragara ko yagiye kureba ko weze, ari kugenda awukoraho kugira ngo arebe niba weze neza kandi wumye maze azajye kuwusarura mu cyumweru gitaha.

Ubuhinzi bw'urusenda ni bumwe mu buhinzi busigaye bwarateye imbere cyane, aho umuhinzi warwo arwitaho cyane, hanyuma yarusarura akarugemura bakamuha amafaranga.

Abantu bamenye ubwenge ubu ngubu mbere y'uko batangira umushinga w'ubuhinzi barabanza bakubaka ahantu habugenewe bazajya binaza izo mbuto, bakahakora nka pipinyeri hanyuma hamara kunoga bakabona gutangira.

Imboga za dodo ni byiza cyane iyo umuntu aziteye akazitera ku murongo kandi akazitera muri pipinyeri, biba ari iby'agaciro kuko umuntu wese uramutse azifite zibasha kumuteza imbere iyo asharuye.

Ubu bwoko bw'intoryi ntabwo bukunze gukundwa cyane kuko abantu barya intoryi bamenyereye zazindi ziba zijya gusa umweru kandi ubu ngubu iyo ubuhekennye usanga buri gusharira.

Umurima mwiza cyane ukimara guhingwa, none nyirawo akaba yagiye ahingamo imbuto z'amoko agiye atandukanye, ariko zikaba zitaramera, nizimara gukura akazitaho zizamuha umusaruro.

Umugabo wambaye ishati n'ipantaro y'itisi yatebeje, ahagaze mu murima w'imboga aho ari kugenda yifotorezamo ndetse anazisura, hepfo y'uwo murima hari ishyamba rinini rizana umwuka mwiza duhumeka.

Umurima w'ibigori bigiye bihinze mu mitabo, bikaba byumye ariko batarabisarura, uyu murima rero uraraye, ni byiza ko nyirabyo yaza akabisarura, hanyuma akahahinga yitegura igihembwe gitaha.

Umugabo uhagaze mu murima, akaba aragiye inka nyinshi zigiye zitandukanye, yambaye isarolubeti ndetse aragiye inka ze nyinshi cyane bigaragara ko zimunejeje kuko ari ubutunzi bwe.

Umugabo wambaye agashati ka karokaro k'amaboko y'amace, akaba ari guzitura inyana ngo ijye konka, inyana ikaba iri kugenda isatira nyina kugira ngo ibashe konka, iyi ni inka ya kizungu, ya yindi ikamwa litiro cumi n'eshanu ku munsi.

Abagabo babiri harimo umwe wunamye ari gukama inka ya kijyambere, ni byiza cyane gukama inka tugaha abana bacu amata yazo kuko agira vitaminini D yo mu rutirigongo ndetse no mu misokoro.

Abantu bagera muri bane harimo abagabo batatu ndetse n'umugore umwe, bari ahantu ku kiraro cy'inka, aho bari gusuzuma ngo barebe ko gikomeye, icyo kiraro cyubatswe mu buryo bugezweho kuko gisakaje amabati.

Ubworozi bw'inka za kiijyambere, ni bumwe mu bworozi bwagabanyije imvune y'aborozi aho basigaye borora bakabona n'umusaruro uhagije bivuye mu mukamo, ukorora inka nke ukabona umukamo mwinshi.

Umugabo ari kumwe n'umugore we, bakaba bafite akanyana kakiri gatoya, umugore aragafashe, umugabo na we yambaye isarubeti, ari kugenda akareba ngo arebe niba kameze neza nta kibazo na kimwe gafite.

Abantu bagera muri batandatu, bahagaze imbere y'ibiraro by'inka, aho harimo abayobozi ndetse na nyiri inka, aho baje kuzisura ngo barebe ko zimeze neza. Ariko basanga ziri kurya zimeze neza zitaweho.

Muri parike y'igihugu y'Akagera, haba harimo inyamaswa z'amoko menshi agiye atandukanye, ku buryo umuntu uzireba zimushimisha, haba harimo udusumbashyamba, impara n'imparage ndetse n'amasha.

Muri Parike y'Igihugu y'u Rwanda haba harimo amoko menshi y'inyamaswa zigiye zitandukanye, yaba izirya ibyatsi ndetse n'izirya inyama. Izi rero tubona ni impara ndetse n'imparage.

Habaho imbeba za kizungu ziba zifite imirizo ifite ubwoya izwi nk'insenzi, izi mbeba rero ni mbi cyane kuko iyo zikugereye mu myenda, zirayicagagura cyane, igahinduka ubushingwe.

Hari amoko menshi agiye atandukanye y'imbeba, hari imbeba za kizungu, aho ziba zifite imirizo ifite insenzi, ku buryo iyo zikugereye ku myenda ziyirya yose zikenda kuyimara.

Hari amoko menshi y'inyamaswa zigiye zitandukanye, by'umwihariko izizwi nk'udusumbashyamba. Zikaba zikunze kuba ziri muri parike y'Igihugu y'Akagera, aho zigenda zirisha amababi y'ibiti zihagaze hasi.

Hari amoko menshi agiye atandukanye y'inyamaswa zijya kumera nk'abantu. By'umwihariko zikunze kurira ibiti cyane. Izizwi ni nk'inkende, ibigushu ndetse n'ingagi.

Mu ishyamba, cyane cyane mu mashyamba manini nk'ishyamba rya kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, ishyamba rya Nyungwe ndetse n'ishyamba rya Pariki y'igihugu y'Akagera, haba harimo inyamaswa nyinshi zigiye zitandukanye, iyi ngiyi yitwa indizi.

Muri Pariki y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera ndetse no mu yandi mashyamba agiye akomeye mu Rwanda harimo nk'ishyamba rya Nyungwe ndetse na Cyamudongo, haba harimo utunyamaswa tujya kumera nk'abantu twitwa inguge.

Hari amoko agiye atandukanye y'inyamaswa, by'umwihariko hari inyamaswa zijya kumera nk'abantu, zitwa indizi. Ziba zifite amabara y'umweru ndetse n'amabara y'umukara, zikunda kurira ibiti cyane.

Muri parike haba harimo inyamaswa nyinshi zigiye zitandukanye ariko hari inyamaswa yayoberanye, igira amahwa maremare cyane ku buryo iyo uyikinishije iyakunkumura ryakugwaho bikakubera ibibazo, yitwa ikinyogote, ikinyogote ni inyamaswa igira amahane cyane.

Hari amoko menshi agiye atandukanye y'inyamaswa dusanga muri parike y'Igihugu y'Akagera, inyamaswa zitwa impara n'imparage ziba ni nziza cyane, zigira utubara tugiye dutandukanye tw'umweru n'umukara, ku buryo kuzireba biryohera ijisho.

Akanyoni gafite amabara agiye atandukanye meza cyane, y'ubururu, umuhondo ndetse n'umukara. Kakagira n'umunwa usongoye cyane ari ko kazwi nk'umuni. Gahagaze ku rurabyo rusa umuhondo.

Inyamaswa z'amoko agiye atandukanye, by'umwihariko inyamaswa zizwi nk'inyoni, zikunze kuba ahantu mu mashyamba, ndetse no kuba zihagarariye ahantu mu biti, kugira ngo zibashe gucunga ikirere cyose.

Hari amoko agiye atandukanye y'inyamaswa, cyane cyane inyamaswa zizwi nk'inguge, ziba zijya kumera nk'abantu, izi zikunze kuba ziri muri parike y'Igihugu ya Nyungwe ndetse n'Akagera.

Inyubako nziza cyane y'amashuri yubatswe mu buryo bugezweho yubakishije amatafari ahiye. Imbere yayo hari ubusitani bwiza cyane, muri ubwo busitani hari kunyuramo utunyamaswa twiza cyane tuzwi nk'inkende.

Akanyoni k'amabara meza y'umutuku, icyatsi ndetse n'umukara, kakaba gahagaze ku ishami ry'igiti bigaragara ko hano ari mu ishyamba, ni muri amwe mu mashyamba akomeye mu Rwanda cyane cyane nka Parike y'Akagera.

Ibitera ni zimwe mu nyamaswa zijya kwitwara nk'umuntu, ziba zifite imirizo igiye hejuru itari miremire cyane nk'iy'inkende. Izi zikunze kuba ahantu hari amazi cyane cyane nko mu rufunzo.

Ibikeri biri amoko menshi, hari ibikeri biba mu mazi ndetse n'ibikeri biba mu gasozi bikunze kuba ahantu hari ibimera bitoshye, ibi bikeri byitwa imitubu, bizwiho gusimbuka cyane ndetse no guhindura amabara.

Mu mashyamba haba hagiye harimo indabyo zigiye zitandukanye, kuri izo ndabyo hari utunyoni twitwa iminuni, tuba dufite iminwa miremire isongoye nk'umusumari tuza tugahagararaho, tuba tuje gushaka udusimba tuba turi kuri izo ndabyo ngo tuzirye.

Muri Parike y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera haba harimo inyamaswa nyinshi zigiye zitandukanye, haba harimo inyamaswa zijya kumera nk'abantu, hari iyitwa indizi, inkende, inguge ndetse n'igitera tutibagiwe umwami wazose ariwo ingagi.

Ingagi ni zimwe mu nyamaswa zijya kugira imiterere nk'iya abantu kuko urebye ku isura ndetse n'ukuntu zigenda ziba zimeze nk'abantu, noneho ikindi ziba zizi kwifotoza nk'abantu neza neza.

Igikona ni inyamaswa iba isa amabara y'umweru ndetse n'umukara, gikunze kugira uburozi bwinshi cyane ku buryo iyo ukishe ushobora guhanwa n'amategeko ikindi ni imwe mu nyamaswa zimara imyaka myinshi.

Ahantu mu ishyamba cyangwa se muri parike hakunze kuba hari amoko menshi agiye atandukanye y'inyoni. Turi kubona inyoni iri mu mabara y'icyatsi, umutuku ndetse n'isunzu risa umukara.